Amavuriro ni ahantu bacururiza imiti, cyangwa ahantu ubuvuzi gihanga, aho usanga hari imiti itandukanye y'ubwoko bwose, hakunda kuba urujya n'uruza rw'abantu baje kwivuza, ndetse n'abaganga baje gutanga imiti.

Ivuriro ni ahantu hatangirwa imiti, haba hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye baje kwivuza kubw'indwara zitandukanye, abaje gutanga imiti, abaganga, ndetse haba hari n'abantu bakora amasuku aho hantu habera ubuvuzi, kugira ngo habe hafite isuku.

Ibimera, cyangwa se ibyatsi, ibyatsi bya mugandutuma n’intufe, bituma abantu benshi bakira, kuko uyu ni umuti gakondo ukomeye cyane. Izi ntufe, iyo warwaye inkorora, ukazihonda, ukazihekenya, rwose inkorora irakira cyane. Kandi n’izi mugandutuma zikiza ibisebe, mukomora ibisebe nako kanya.

Ibyatsi ni byiza cyane kuko bivamo imiti gakondo, imiti gakondo ni myiza rero ni imiti ituruka mu bimera iyo miti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye gakondo. Umuntu wavuwe n'ibyatsi akunze gukira, kandi abantu benshi bakunda kwivuza gakondo kuko birafasha cyane.

Wino ni icyatsi cyiza cyane, abantu baragikunda kuko ni n'umuti gakondo bifashisha iyo bari kwivura; bivura gapfura, bakongera bakacyifashisha bashaka guhindura ikaramu umutuku, mbese ibyatsi ni byiza cyane abantu barabikunda kuko bifite umumaro ku buzima bwa muntu.

Ibyatsi ni byiza cyane, kuko bivamo imiti gakondo, imiti yifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye, usanga rero ibyatsi ari byiza, cyangwa se ibimera, kuko bivamwo imiti, imiti ikifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Muganda utuma" ni ibyatsi byiza cyane ibi ibyatsi bivamo umuti womora bisebe, ndetse umuti gakondo uva mu byatsi, urakoreshwa uvura indwara nyinshi zitandukanye. Abantu bazi gukoresha ibyatsi mu kuvura rero ni abahanga cyane, kuko bagira amafaranga akomoka mu miti gakondo barimo kuvura indwara.

Ibyatsi ni byiza cyane bitanga imiti gakondo. Imiti gakondo rero ni ubuvuzi bwa gihanga, aho bavura bifashishije imiti ikomoka ku byatsi. Iyi miti irakora cyane kandi iravura abantu barayikunda cyane.

Ikibonobono ni ikimera kiza gikunze kumera ahantu hose, abaturage bakakifashisha, tujya tukifashisha nko mu gushyigikira insina zifite ibitoki, cyangwa se tukakifashisha mu kugicana. Ikinobono kitugirira akamaro kenshi.

Imiti gakondo ni imiti iboneka iturutse mu byatsi bitandukanye. Ikavura indwara zitandukanye. Abavuzi gakondo barakundwa rero, kuko iyi miti gakondo iva mu byatsi ikunze kuvura cyane, kandi abantu benshi barayikunda. Rero ibyatsi tubisigasire kuko na byo ni ingirakamaro mu gutanga imiti.

Ibimera ni byiza cyane kuko bivamo imiti gakondo twifashisha mu buvuzi gakondo. Rero imiti, imiti gakondo ni myiza kuko ituma dukira uburwayi.

Ibyatsi ni ibimera byaremwe n'Imana kandi bikundwa cyane bivamo imiti, imiti tukayifashisha mu kuvura indwara zitandukanye, ibimera rero ni byiza kuko bitanga imiti gakondo.

Ibyatsi ni byiza cyane, bikunda kuvamo imiti gakondo. Imiti yifashishwa mu buvuzi butandukanye, ikavura n'indwara zitandukanye. Kandi ahantu hakunda kuboneka ibyatsi, baba bafite ubuzima bwiza, kuko baba bakunda kubona imiti.